Abana b'incuke baba bafite ahabugenewe boherezwa kugira ngo bitabweho, maze ababyeyi babo bajye mu mirimo itandukanye, nuko abo bana nabo kandi bagire ubumenyi butandukanye.

Aba ni abana b'inshuke, aho baba bazanywe ahabugenewe kugira ngo bafashwe n'abarezi babo mu mikurire yo mu mutwe, gusabana na bagenzi babo ndetse no mu myigire muri rusange.

Abana biga mu mashuri abanza, bambaye impuzankano y'ibara ry'ubururu, bicaye ku dutebe twabugenewe ndetse hagati yabo hari imeza nini, bakaba bari kuganira ku masomo bahawe n'umwarimu.

Mu Rwanda hariho gahunda yo gushyiraho amarerero atandukanye mu gihugu hose, afasha kurera abana bari munsi y'imyaka itanu, babatoza kuganira na bagenzi babo ndetse banabigisha hakiri kare kugira ngo bagire ubwenge.

Abana b'inshuke usanga bajyanwa ahantu habugenewe kugira ngo batozwe kubana na bagenzi babo ndetse banigishwe, ubumenyi butandukanye bakiri batoya kugira ngo uko bakura bazabe abahanga.

Abana biga mu mashuri y'incuke, aho baba bambaye imyenda iri mu ibara ry'ubururu, bakaba bicaye ku dutebe twabo twabugenewe ndetse bari guhabwa n'ibikinisho bitandukanye bigiraho, bungukiraho ubumenyi butandukanye.

Abana b'incuke usanga bafite ahantu habugenewe, bajya buri munsi, kugira ngo bakine na bagenzi babo, biyungure ubumenyi, ndetse banagaburirwe indyo yuzuye, maze bibafashe gukura neza.

Abana biga mu mashuri abanza, baba bakeneye ibikoresho bitandukanye bibafasha kwiga. Ibitabo cyangwa se n'ibindi bakoresha, bituma biyungura ubumenyi bityo bakiga neza, bakagira ubwenge.

Iyi ni gahunda yashyizweho na Leta yo kujyana abana b'inshuke ahabugenewe, aho bigishirizwa kubana na bagenzi babo ndetse no gukuzwa mu bwonko kandi bagahabwa n'indyo yuzuye kugira ngo batagwingira.

Iri ni isomero aho harimo ibitabo bitandukanye byifashishwa n'abarimu ndetse n'abanyeshuri, basubiramo amasomo yabo cyangwa se bakora ubushakashatsi butandukanye.

Aha ni ku kigo cy'amashuri, aho hari abanyeshuri bari gukina igihe bahawe umwanya wo kuruhuka nyuma yo kwiga amasomo atandukanye, ibi bituma basubira mu ishuri bameze neza.

Iri ni isomero, aho harimo ibitabo byinshi bitandukanye, bifasha abana kwiga ndetse no kwiyungura ubumenyi butandukanye, ku masomo bahabwa n'abarimu babo buri munsi.

Umwarimu uzi kwigisha neza ni ufata ibintu bikeya mu byo yigisha akabyandika ku gipapuro kinini, akabimanika mu ishuri abanyeshuri bagahora babireba banabisoma bituma babifata vuba.

Inyubako y'ishuri ry'abana ba pirimeri yubakishije amatafari ahiye ifite amadirishya asize irange ry'umuhondo, inzugi zo zirasa ubururu.

Abana bambaye impuzankano iri mu ibara rya kake ndetse n'ubururu, aho barimo barakina imikino itandukanye ibafasha kuruhuka mu mutwe kugira ngo nibasubira mu ishuri babe baruhutse maze bige neza.

Umwarimu w'umuhanga ni umenya uko yigisha akoresheje ibikoresho bitandukanye bitari n'ibitabo, ahubwo akifashisha ibishushanyo yashyize ku mpapuro ndetse no ku bindi bintu bituma abanyeshuri bahora babona ibyo yigisha, maze akabimanika mu ishuri.

Abana biga mu mashuri abanza usanga baba bahetse ibikapu buri munsi kandi bicara mu ntebe z'imbaho kubera ko baba bakiri bato cyane.

Igikuta kirimo imyenge kandi kiriho amahombo y'ibyuma, asohora umwotsi hanze. Ibi ngibi bikwereka ko hano hari igikoni batekeramo, ibiryo by'abanyeshuri.

Iyo umwarimu amenyereye kwigisha usanga atari ngombwa ko akoresha n'ibitabo ahubwo yifashisha imfashanyigisho we yikoreye ku giti cye kandi zigafasha abanyeshuri.

Abana bambaye imyenda irimo amabara atandukanye barimo barakina, aho bakoze uruziga kandi bari kumwe n'umuntu mukuru uri kubafasha gukina uwo mukino, kubera ko na we awuzi.

Abana bambaye impuzankano y'ishuri yiganjemo ibara ry'ubururu, aho bari kwerekeza ku mashuri afite amabati y'ubururu, ayo mashuri kandi akaba yubakishije amatafari ahiye.

Ikigo cy'amashuri cyubakishije amatafari ahiye, gifite amabati ashaje asa umutuku hariho umugese. Inyuma y'amashuri hari jaride nini irimo idarapo ry'u Rwanda.

Abana bambaye impuzankano y'ishuri yiganjemo ibara ry'ubururu ndetse n'irya kake, aho bari kwerekeza mu masomo yabo ya buri munsi. Bakaba bishimye cyane kandi bishimira ko bafatwa neza.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, ifite amadirishya n'inzugi bisa umuhondo, imbere yayo hari abana bambaye impuzankano y'ishuri barimo barakina bidagadura baruhura mu mutwe nyuma y'amasomo menshi bamaze kwiga.

Aha ni ku kigo cy'ishuri cyubakishije amatafari ahiye, hari abana bambaye impuzankano y'ibara ry'ubururu ndetse na kake, aho barimo bararuhuka mu masaha ya nyuma y'amasomo kugira ngo nibagaruka mu ishuri babe bameze neza.

Aha nimu cyumba cy'ishuri, aho harimo intebe zicaweho n'abanyeshuri barimo bariga. Hakaba harimo n'akagare, bigaragara ko harimo n'umwana ufite ikibazo cy'ubumuga, akaba rero na we yigana n'abandi.

Abana bambaye impuzankano y'ibara ry'ubururu ndetse na kake aho batwaye ibiryo bagiye kurira mu ishuri, iyi ikaba ari gahunda yashyizweho na leta ituma abanyeshuri barira ku bigo by'amashuri aho kujya kurira mu rugo saa sita.

Ku gikuta cyubakishije amatafari ahiye, hariho ibipapuro bibiri byegeranye, bifite ubuso bw'ibara ry'umweru bishushanyijeho ururimi rw'amarenga ndetse n'inyuguti. Ibi ngibi bishobora gufasha umuntu kurwiga akarukoresha.

Iyo wigisha abana b'incuke, ni byiza ko ubashushanyiriza ibishushanyo bitandukanye ku gipapuro, ugashyiraho n'amazina y'ibyo bishushanyo, ibyo bituma biga neza.

Abana biga mu mashuri abanza higanjemo abahungu n'abakobwa, bambaye impuzankano iri mu ibara ry'ubururu ndetse na kake, bakaba bicaye mu ntebe zimbaho, bari gusoma igitabo.

Iki ni ikigega gifite ibara ry'umukara aho cyagenewe gufata amazi y'imvura aturuka ku mabati, ibi ngibi bikaba birinda kuba aya mazi yatwara amazu cyangwa se akanangiza ubutaka.

Aha ni mu ishuri aho ryubakishije amatafari ahiye, mo imbere harimo intebe z'imbaho ndetse ku gikuta hari igishushanyo kiriho ibintu byinshi bitandukanye, umwarimu yifashisha yigisha abanyeshuri be.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, ikaba irimo imyenge ahagana hejuru, ikaba kandi icometseho ibihombo binini bisohora umwotsi, bisa nkaho hano hari igikoni.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano y'ubururu ndetse na kake, aho barimo barasoma ibitabo bitandukanye bungurana ibitekerezo ndetse baniyungura ubumenyi.

Aha ni mu isomero, aho umunyeshuri wese ashobora kujya akareba igitabo ashaka, bijyanye n'ibyo yifuza gusomaho. Ibi rero bituma, abanyeshuri batsinda cyane.

Ubwiherero rusange bwubakishije amatafari ahiye, bufite ibara ry'umweru n'umuhondo. Ni byiza rero ko abaturage babwitaho kubera ko bituma bugira isuku n'umuntu wese uturutse hanze, akaza akabujyamo atinuba.

Igikuta gishushanyijeho abana bambaye impuzankano ya kake, aho barimo barakina umupira w'amaguru bishimye kandi ubona ko basobanukiwe ibyo bari gukora, ibi bikaba ari byiza kuko bituma abana basabana ntawe uheje undi.

Abana bambaye impuzankano z'ishuri ryiganjemo ibara ry'ubururu ndetse na kake, aho bahagaze inyuma y'urugi kubera gukererwa mu gitondo. Ibi rero bigomba guha isomo ababyeyi, kubera ko bagomba kujya bazindura abana bakajya ku ishuri.

Abana batoya biga mu mashuri abanza, aho bari gufata amafunguro yabo ya saa sita, nyuma y'uko Leta yashyizeho iyi gahunda bamaze kubona ko abana bagaruka ku ishuri bananiwe, bavuye kurya mu rugo.

Aba ni abana bambaye impuzankano y'ishuri, yiganjemo ibara ry'ubururu ndetse na kake, aho barimo barakina baruhuka mu mutwe nyuma y'amasomo. Ariko mu kanya baraza gusubira mu ishuri bongere bige.

Aha ni mu biro aho hari imeza iteretseho ibikoresho bitandukanye birimo nka mudasobwa, amakaramu, ibimarikeri, amakayi impapuro ndetse n'ibindi bintu byifashishwa mu biro.

Abana bambaye impuzankano y'ishuri yiganjemo ibara ry'ubururu ndetse na kake aho barimo barakina bidagadura nyuma y'amasomo kubera ko bahawe umwanya wo kuruhuka kugira ngo bagaruke bige bameze neza mu mutwe.

Ibitabo bine birambitse ku meza aho biri mu mabara asa harimo: icyatsi, umutuku, umuhondo, umweru ndetse n'ayandi atandukanye, hakaba handitseho amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Umuntu mukuru uri kumwe n'abana batoya b'inshuke, aho ari kubaganiriza abigisha akoresheje udutabo dutandukanye twabugenewe, tubafasha gutuma bumva bameze neza bisanzuye.

Ku kigo cy'amashuri aho abanyeshuri bambaye impuzankano y'ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, bicaye aho bagenewe bakaba bitabiriye ikirori.

Aya ni amashuri afite amabati ari mu ibara ry'umutuku. Imbere y'ayo mashuri, hakaba hari ubusitani bunini cyane ndetse n'indabo zizengurutse ubwo busitani.

Umwarimu wambaye ishati y'umweru aho ahagaze imbere ku kibaho, ari gusobanurira abanyeshuri ibyerekeranye n'imibare kugira ngo nabo bayimenye, bazayitsinde mu kizamini cya Leta.

Icyapa gifite ubuso bw'ibara ry'umweru wazengurukijeho ibara ry'ubururu, hariho amagambo yanditseho ari mu ibara ry'ubururu, avuga ngo murakaza neza ku kigo cyacu cy'ishuri.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye ifite inzugi ziteye irange ry'umutuku, zikaba ari inyubako nshyashya ziri kubakwa kugira ngo zijye zigirwamo n'abanyeshuri.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, ikaba ifite amadirishya manini ndetse ikaba isakaje n'amabati ajya gusa ubururu, ikaba ari inyubako abanyeshuri bigiramo.

Abana basigaye barira ku ishuri, ariko ni nyuma y'uko Leta ishyizeho gahunda, yo kugaburira abana bitewe n'uko, babonaga baruha cyane iyo bavuye mu rugo bamaze kurya, ntibakurikire amasomo neza.

Hari gahunda leta yashyizeho yo kugaburira abana ku ishuri, batiriwe bataha saa sita ngo bajye kurya mu rugo iwabo, kubera ko byatumaga bavunika kandi bakaza bafite umunaniro bigatuma batiga neza.

Aha ni mu isomero, aho abana biga mu mashuri abanza baba baje gusoma ibitabo bitandukanye kugira ngo bakuremo ubumenyi bifashisha mu masomo yabo maze batsinde.

Aba ni abana aho bari mu ishuri bari gusubiramo amasomo yabo baba baranditse mu ikayi mu gihe umwarimu adahari ngo abigishe, ibi rero ni byiza kuko bituma umwana amenya ubwenge bwinshi.

Urugi rw'igipangu, aho ruri mu mabara y'umweru, umuhondo, ndetse n'ubururu. Hariho kandi amagambo yanditseho, ari mu ibara ry'icyatsi kibisi. Ku ruhande, hakaba hari igishushanyo cy'umukobwa witeruye igiseke arimo arabyina.

Umwana wicaye mu modoka, aho yambaye imyenda yiganjemo ibara ry'ubururu ndetse n'akabara k'umweru. Ahetse igikapu gisa umutuku, aho bigaragara ko umubyeyi we amujyanye ku ishuri.

Urugi runini rusa ubururu ruriho abana babiri bambaye impuzankano y'ishuri, rwanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru avuga ngo ikigo cy'amashuri cya materineri.

Abakinnyi bambaye impuzankano y'umukara, aho bafatanye amaboko nyuma y'uko batsinze igitego. Bakaba bari kuganira ku kuntu bashyiramo imbaraga bagatsinda n'ibindi byinshi.

Ikigo cy'amashuri cyubakishije amatafari ahiye, gifite urugo ruriho ibyuma bisize irange ry'ubururu ndetse n'umuhondo, iruhande hari ubusitani.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ibara ry'ubururu ndetse na kake, bakaba bahetse ibikapu birimo ibikoresho by'ishuri nk'amakayi, aho bagiye kwiga.

Abana bambaye impuzankano y'ishuri aho bari kwambuka umuhanda wa kaburimbo. Imbere hari igikamyo kinini kirimo kiraza kibasanga. Ku ruhande hakaba hari utuyira tw'abanyamaguru bituma hirindwa impanuka.

Abakinnyi bari gukina umukino uzwi ku izina rya Volleyball, aho umwe yazamutse agiye gukubita umupira n'ikiganza, hakurya hari abantu batandukanye, barimo baritegereza uyu mukino.

Inyubako nini cyane, iteye amarange y'umuhondo ndetse n'irindi rijya gusa umukara. Inyuma yaryo hari ubusitani bunini, buhinzemo ibiti ndetse ku ruhande rwaho hari n'inzira y'amapave.

Abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ibara ry'umweru na kake, bicaye mu ishuri aho barimo barandika mu makaye yabo, bafata inote bari guhabwa n'umwarimu kugira ngo nababaza bazasubize neza.

Umwana w'umukobwa wambaye ishati y'umweru ndetse n'ijipo y'umukara, ari ku kibaho, arimo arasubiza ikibazo yahawe n'umwarimu, kugira ngo amusuzume arebe niba akurikira mu ishuri.

Iri ni itsinda rigari ry'abanyeshuri bambaye imikenyero, aho bari kumwe n'abayobozi babo, harimo n'abashinzwe umutekano nk'umupolisi ndetse n'umusirikare. Bakaba barimo barishimira ibirori ndetse n'umunsi mwiza bagiranye.

Aba ni abanyeshuri bambaye imyenda yiganjemo ibara ry'ubururu, aho bateranyirijwe mu kibuga kugira ngo baganirizwe n'abakozi baturutse kuri RIB, kugira ngo babagire inama z'uko bakwiye kwitwara mu gihe bari ku ishuri ndetse no hanze yaryo.

Aba ni abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ibara ry'umweru ndetse n'umukara aho bahagaze barimo baraka ibyangombwa kugira ngo batangire amashuri yabo.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ibara ry'umweru ndetse n'umukara, aho bari mu kigo cyabo cy'amashuri bari gutembera baruhura mu mutwe, nyuma y'amasomo bamaze kwiga akomeye.

Aha ni mu isomero aho abanyeshuri benshi baba bemerewe kujya bagafata ibitabo bitandukanye byerekeranye n'amasomo biga maze bagasoma, hanyuma bakunguka ubumenyi bwisumbuyeho.

Mu mashuri yisumbuye usanga bareka abanyeshuri bakajya mu isomero kubera ko baba bakeneye kunguka ubumenyi bwinshi ku masomo biga. Ibi bituma batsinda neza kandi bakaba abahanga.

Abana bambaye impuzankano y'ishuri yiganjemo ibara ry'umweru n'umukara. Bari kwerekeza ku ishuri, aho bari kugenda mu kayira kagenewe abanyamaguru. Ku ruhande hari umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bitandukanye.

Iyo ugeze mu isomero uhasanga ibitabo bitandukanye by'imyaka itandukanye abanyeshuri bigamo. Ibi rero bituma buri munyeshuri wese yaba uwo mu wa mbere, mu wa kabiri kugeza mu wa gatatu ahisanga.

Itsinda ry'abantu bambaye impuzankano y'ibara ry'umweru ndetse na kake, aho bari ku murongo bari gukora akarasisi. Aha ngaha ni mu birori byo kwizihiza umunsi wo gutanga amaraso.

Inyubako iteye irangi ry'umuhondo ndetse n'irangi ry'ubururu. Ifite ibaraza rinini ndetse n'amayesikariye. Iyo nyubako ikaba ifite imbuga nini iteyemo ibiti.

Uyu ni umwana wambaye ishati y'ubururu, ateruye akabase k'icyuma karimo ibyo kurya, nyuma y'uko Leta ibonye ko bavunika bataha bajya kurya mugo, bagaruka ntibabashe kwiga neza amasomo ya nyuma ya saa sita.

Iri ni ishuri aho harimo abantu batandukanye bambaye amataburiya y'imyeru ndetse harimo n'ikigega cy'umukara. Bicaye ku ntebe z'imbaho, aho bakurikiye umuntu urimo urabaganiriza.

Umurezi wambaye ishati y'umutuku uhagaze mu muryango aho ari kubwira abanyeshuri bari hanze ngo bajye mu ishuri batangire bige, iyo nyubako y'amashuri ifite inzugi n'amadirishya bisa ubururu.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano y'umweru ndetse na kake, aho bari mu ishuri barimo barafata note z'amasomo bari guhabwa n'umwarimu wabo kugira ngo batazibagirwa ibyo yabigishije.

Iyi ni imodoka ifite ibara ry'umweru, aho ihagaze mu muhanda w'amabuye ifunguye urugi. Hirya yaho hari abana bari kujya ku ishuri ndetse n'amazu ateye irangi ry'umweru. Kandi hari n'indi nzu ifite amabati y'umutuku.

Abana bambaye impuzankano y'ishuri, yiganjemo ibara ry'umweru ndetse na kake, aho bari kwerekeza ku ishuri, gufata amasomo yabo ya mu gitondo. Bakaba bari kugenda, mu muhanda wa kaburimbo.

Iyi ni salle ifite ibikuta bisa umuhondo aho harimo abanyeshuri bambaye impuzankano y'umweru ndetse n'umukara, bakaba bari kumwe n'umugabo ubahagaze hagati wambaye agapira k'umweru uri kubagira inama anabaganiriza.

Amakipe abiri agiye gukina umukino w'amaboko uzwi nka vole, aho bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye, imwe yambaye imyenda y'ubururu ndetse n'amakabutura y'umukara, mu gihe indi yambaye imyenda y'imihondo gusa. Inyuma yabo hari amazu asakaje amabati y'umutuku.

Inzu y'isomero ifasha abanyeshuri kwiga neza, bityo bagatsinda amasomo yabo. Iyo bahageze baba bagiye gusubiramo cyangwa se no gukora ubushakashatsi ku giti cyabo.

Uyu ni umusekirite wambaye imyenda y'imyeru, umukara, afite n'inkoni, akaba yegamye ku gikuta. Ari kurinda inyubako icungirwamo amafaranga kugira ngo batayiba.

Abana bambaye impuzankano y'ishuri yiganjemo ibara ry'umweru ndetse na kake, aho imbere yabo hari umusaraba munini cyane umanitseho Yesu Kristo. Bakaba bari gusenga.

Inyubako ebyiri ziteganye zubakishije amatafari ahiye ariko imwe ifite amabati y'ubururu, indi ikagira ay'umutuku, zose zifite porotaye imwe iriho icyuma kinini ndetse n'icyapa cy'umweru.

Mu kigo cy'amashuri hahuriye amakipe atandukanye aho imwe yambaye impuzankano y'ubururu. Barimo barakina umukino w'amaboko uzwi nka volley aho barimo barawukina neza cyane.

Aba ni abanyeshuri bambaye impuzankano y'ishuri, yiganjemo ibara ry'umweru na kake, bari kugenda iruhande rw'amashuri yabo, aho bari kugenda baganira ku masomo yabo baba bize.

Aha ni ku mashuri, aho abarimu ndetse n'ubuyobozi bw'ikigo, bafashe umwanzuro wo koroza abanyeshuri amatungo magufiya kugira ngo na bo biteze imbere kandi na bo bamenye ko korora amatungo magufiya ari iby'ingenzi.

Urujya n'uruza rw'abantu rurimo abagabo ndetse n'abagore. Bakaba bari kugenda mu muhanda wa kaburimbo aho ku ruhande hari ubusitani ndetse n'ibiti binini bihateye. I ruhande kandi rw'umuhanda hakaba hubatse igikuta cy'amabuye.

Ikigo cy'amashuri gifite amabati y'umutuku, kikaba kiri munsi y'ishyamba cyangwa se ibiti binini cyane, aho hantu hakaba hari n'ubukarabiro.

Itsinda ry'abantu benshi, biganjemo abanyeshuri, bambaye impuzankano iri mu ibara ry'umweru ndetse na kake. Imbere ku gihande cyo hagati, hakaba hicaye abarezi babo bazanye na bo.

Itsinda ry'abanyeshuri bambaye impuzankano, y'ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, aho bicaye hagati mu kibuga, imbere y'amashuri yabo bari kuganirizwa n'abayobozi babo, ku buryo bakwiye kwitwara.

Abana bakusanyirijwe hamwe mu kibuga, kubera ko umurezi yaje kubasura, abagira inama z'uko bakwiye kwitwara, birinda ibiyobyabwenge, ndetse n'ibindi bishuko bitandukanye byabangiriza ubuzima.

Inyubako y'ishuri, aho yubakishije amatafari ahiye. Ikaba ifite inkingi zifite ibara ry'umuhondo. Ifite inzugi n'amadirishya bisa ubururu ndetse n'amabati asa ubururu.

Itsinda ryurubyiruko bambaye imipira yijimye, bitabiriye inama yerekeye n'ubukerarugendo. Aho barimo baraganirizwa n'impuguke muri byo, bababwira ko bagomba kubikora kandi bizabateza imbere.

Abantu bambaye imyenda yiganjemo ibara ry'umweru ndetse n'umukara, aho bahagaze imbere mu nyubako nini, barimo barabyina ndetse banaririmba, imbere yabo hakaba hari ama esikariye yubakishije amakaro.

Aha ni kuri sitade aho hari abantu benshi batandukanye baje kwifanira ikipe yabo, bambaye imyenda iri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu, mu kibuga hakaba hari abakinnyi bari gukina.

Iyo abana barangije, ibizamini usanga barashyiriweho igihe cyo gutaha iwabo mu ngo. Ibi rero byatumye Leta y'u Rwanda ishyiraho ubwikorezi bubatwara, bo bonyine bihariye kubera ko byatezaga akavuyo kenshi muri rubanda.

Igikuta cy'amatafari ahiye kiriho ibara ry'umweru ndetse handitseho amagambo ari mu ibara ry'umukara, ubururu ndetse n'icyatsi, bikaba bigaragara ko ari igikuta kizitiye ishuri.

Aha ni mu nzu aho harimo intebe ndetse n'imeza nini, iteretseho ibikoresho by'ikoranabuhanga, birimo mudasobwa ndetse na telefone ngendanwa.

Ibiro by'abayobozi, aho buri meza iriho icyuma cy'ikoranabuhanga ari cyo mudasobwa, ndetse icyo cyumba kikaba kirimo n'ibindi bikoresho bitandukanye nk'utubati n'ibindi.

Aha ni ku kibuga hakinirwa imikino itandukanye cyane cyane iy'amaboko, hakaba hari akazu kari mu ibara ry'umuhondo kanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu, aka kazu kakaba kicirwamo n'abari kureba umupira.

Umuryango usa umutuku, uriho igipapuro kiriho ishusho y'umuntu ukorera muri icyo cyumba. Hejuru y'uwo muryango hariho akapa kari mu ibara ry'ubururu n'umweru ndetse kariho n'ikirangantego cya kaminuza y'u Rwanda.

Icyumba cy'uburyamo aho kirimo igitanda cyigerekeranye, kiriho matera zishashe neza n'amashuka. Hakaba harimo intebe, irido ndetse ibikuta by'icyo cyumba biteye irange ry'ubururu.

Icyumba cy'ishuri giteye irange ry'umuhondo, imbere hari icyapa kinini bandikaho ndetse iki cyumba kirimo intebe zifite ibara ry'ubururu n'ameza, harimo n'umuntu uri kwiga.

Itsinda ry'abanyeshuri ba kaminuza, aho bicaye mu ntebe nziza n'udutebe dusa icyatsi, imbere yabo hari umwarimu uri kubigisha, abereka ibijyanye n'ibyo biga.

Iki ni icyumba cyigirwamo n'abanyeshuri ba kaminuza, aho kirimo intebe ndetse n'utubati duteretseho za mudasobwa zifashishwa mu gukora ubushakashatsi.

Inzu iteye irange ry'umuhondo, ifite icyuma cyifashishwa mu kwagura amashusho. Iyo nzu kandi, ifite amadirishya manini y'ibirahure ndetse n'ibindi byuma hejuru, bitanga umuyaga.

Icyumba cy'uburyamo aho harimo igitanda gisashe neza, kiriho mudasobwa iri mu ibara ry'umukara. Icyo cyumba ku gikuta hateye irangi ry'umuhondo, kandi hasi harimo tapi isa umukara.

Icyumba cy'uburyamo kirimo ibitanda bibiri bishashe neza, harimo kandi abakobwa babiri bicaye kuri ibyo bitanda, bari gukoresha igikoresho cy'ikoranabuhanga cya mudasobwa, hirya hari utubati tubiri turimo ibikoresho bitandukanye byabo.

Aha ni mu cyumba cy'uburyamo aho hari igitanda gisashe neza n'amashuka ndetse n'ikiringiti n'umusego, hepfo y'igitanda hakaba hari ubukarabiro ndetse haruguru y'igitanda hakaba hari akabati kajyamo imyenda n'ibindi bitandukanye.

Umuryango werekeza mu cyumba cy'ishuri, ufite ibara risa nka shokora. Uwo muryango ukaba hejuru hariho agapapuro kanditseho imibare ndetse n'amagambo biri mu ibara ry'icyatsi, uwo muryango kandi ukaba ufite n'ikirahure.

Icyumba cy'uburyamo, aho kirimo ibitanda bibiri bisashe neza n'amashuka y'umweru, harimo kandi utubati dufite ibara rya shokora ndetse n'indobo isa ubururu.

Abanyeshuri ba kaminuza usanga barabahaye ibikoresho bitandukanye, birimo na mudasobwa bibafasha kwiga amasomo yabo kugira ngo bakomeze biyungure ubwenge.

Iki ni icyumba cy'ishuri aho harimo intebe zitandukanye, zicarwaho n'abanyeshuri iyo bari kwiga. Iki cyumba gifite amadirishya manini agizwe n'ibirahure bibonerana.

Icyumba kirimo utubati dukoze mu biti ndetse n'ahantu umuntu yakarabira, kikaba ari icyumba gikoreramo abaveterineri bita ku matungo.

Hariho igihe mu Rwanda haza abavuzi b'inzobere bavuye mu mahanga, bityo Leta y'u Rwanda igashishikariza Abanyarwanda, kwihutira kwivuza kugira ngo na bo bavurwe mu gihe abo baganga bakiri mu Rwanda.

Aha ni mu ishuri aho hateye irangi ry'umweru. Harimo intebe zo kwicaraho ndetse harimo n'abantu babiri bari kwiga. Umwe wambaye umupira w'umweru, undi hagaragara ikiganza kiri gukora kuri mudasobwa.

Abantu baba papa ndetse n'abamama bakaba bicaye mu cyumba giteye irange ry'umweru, barimo barakoresha ibikoresho bitandukanye, birimo mudasobwa ndetse ku meza ziri imbere yabo hateretseho amazi yo kunywa.

Umuntu w'umuzungu wambaye imyenda y'imikara, aho inyuma ye hari amadarapo abiri, harimo n'iry'u Rwanda, inyuma ye kandi hari inzu nini cyane iteye amarangi y'umuhondo, ifite n'ibirahure binini cyane by'umukara.

Abantu bicaye mu nzu y'inama aho harimo abagabo ndetse n'abagore. Barimo barakoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga birimo mudasobwa. Hano hari umugore uri gutanga ijambo, aho arimo aratanga igitekerezo cye ku cyakorwa.

Ibyapa biri ahantu ku nzira bisa ubururu ariko byanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, inyuma yabyo hari ubusitani ndetse n'ibiti binini cyane kandi hari n'ikindi cyapa cyerekana amerekezo yo kwerekeza.

Icyumba cyagenewe abaganga bavura amatungo bakaba bambaye amataburiya y'imyeru, barimo barakoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga birimo mudasobwa ndetse n'ibindi bitandukanye, bari gushyira ku murongo imiti bazaha abaturage boroye amatungo.

Iri ni isomero, aho abana biga mu mashuri abanza bashobora kujya bagasoma ibitabo bitandukanye biba birimo ubumenyi by'umwihariko bwerekeye amasomo biga.

Urugo rw'ibyuma, ruzitiye, inzu ebyiri ziteganye, ndende, ziteye amarange y'umweru ndetse zisakaje amategura, izo nzu zikaba zegereye ubusitani.

Iyi ni inzu nini cyane, yubakishije amatafari ahiye, aho harimo abantu b'ingeri zitandukanye b'abakobwa ndetse n'abagabo, aho bari kureba amakipe ari gukina imikino itandukanye.

Icyumba cy'ishuri aho harimo umuntu uri kwiga akoresheje icyuma cy'ikoranabuhanga cya mudasobwa, imbere ye ku gikuta hakaba hari ikibaho kigezweho cyandikwaho n'ikimarikeri.

Mu mujyi wa Kigali uhasanga amazu menshi akorerwamo ubucuruzi butandukanye. Yaba amaresitora cyangwa se n'utuzu twifashishwa n'abakozi b'amasosiyete y'itumanaho mu gutanga amayinite.

Ubu ni ubukarabiro, aho mu gihe cy'icyorezo cya kovide, mu Rwanda bategetse ibigo by'amashuri kubwubaka kugira ngo buri muntu wese nahaca ajya akaba, bitume umuntu atanduza abandi.

Inyubako iteye amarange y'umweru ndetse n'ayandi y'umukara ayizengurutse, ni ndende kandi yegeranye n'ibiti bitandukanye, hari kandi ipoto ricanira aha hantu iyo ari nijoro.

Inyubako nziza cyane zisa umweru zisakaje amabati y'umutuku, zifite imbuga nini cyane ndetse n'umuhanda wa kaburimbo uri iruhande rwayo. Hakuno hari ubusitani bwiza cyane burimo ibiti birebire.

Aha ni ku nzira aho hagaragara borudire itwara amazi ndetse n'ubusitani bwiza cyane buzengurutse ikigo cy'amashuri, ubwo busitani bukaba buteyemo ibiti birebire binini.

Ahantu hasa neza cyane, aho hari urujya n'uruza rw'abantu, hakaba hari inyubako nini yubakishije amatafari ahiye ndetse iruhande rwayo hari ubusitani bwiza cyane n'inzira z'amapave.

Umuntu wicaye muri koridoro ndende iteye irangi ry'umweru. Hasi hari amakaro ari mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara. Hino hakaba hari amayesikariye.

Inyubako ifite amabati y'umutuku, aho imbere yayo hari ubusitani bunini burimo imigozi banikaho imyenda, ahagana hakurya hari inyubako iteye amarangi y'umweru ndetse n'umukara.

Abanyeshuri ba Kaminuza, babaha ibikoresho bitandukanye birimo na za mudasobwa, aho babigisha kubikoresha mu bintu byinshi bitandukanye, haba mu mibare, mu mateka ndetse no mu bindi biga bitandukanye.

Inyubako nziza kandi nini rwose iteye amarange y'umuhondo, ifite ibirahure binini by'umukara ndetse isakaje amabati y'umutuku. Ku mbuga yayo hari amadarapo abiri harimo n'iry'u Rwanda.

Aha ni mu ishuri aho ku kibaho hari irangi ry'umuhondo. Iryo shuri rikaba ririmo intebe ndende, zifatanye, zisa umweru. Ndetse muri icyo cyumba hari kwakamo itara.

Uyu ni umuhanda wubakishije amabuye, aho hari kugendamo umugabo wambaye isarubeti y'icyatsi ndetse harimo n'ikinyabiziga cya moto giparitse. Hirya y'umuhanda hari kandi ubusitani bwiza cyane, bwegereye urugo rw'ibyuma.